Umwana ukiri muto ari ku iriba. Amaze kuvomera indobo nini, arayipfundikira, iramuremerera. Umugabo w'igikara wambaye imyenda y'ubururu, arimo kumwegera agiye kumufasha kuyikorera.

Umugore uteze igitambaro cy'umweru wambaye ishati y'amabara, ari kumwe n'umwana we wogoshe umusatsi, barishimye cyane bari mu murima urimo imyaka itoshye cyane, barakoze mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu maze babona umusaruro ushimishije.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, abagabo babiri bayiyoboye bicaye ahagana hejuru imbere y'ameza akoze mu giti cyiza, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amagambo agaragaza uburyo bwo kwirinda indwara ya Marburg.

Imifuka myinshi y'umweru ipanze igerekeranye mu kibuga kinini, abantu ku ruhande barimo kuyiterura babiri babiri bafatanyije, kugira ngo bataremererwa bikabije ahubwo biborohere.

Umwana urimo gukaraba kuri robine, hari ibikoresho biri mu ibara ry'ubururu, hirya ye hari isabune arisukura neza ni umwana watojwe azagira ubuzima bwiza byanze bikunze.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bukeye cyandikishijeho inyuguti nini, ijambo UNICEF, imbere hari ishusho y'umugore uteruye umwana, amutereye hejuru.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, biganjemo abagore bafite abana baje kubakingiza, imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ifite amaboko maremare, arimo kumutera urushinge.

Umugore usutse imisatsi, ahetse umwana, yazirikiye mu ijosi, yambaye umupira w'icyatsi, akenyeye igitenge, arimo kogereza ibase kuri robine yo ku ivoma.

Abantu benshi bicaye mu cyumba, hejuru hari abandi bahicaye bagera kuri batandatu, bigaragara ko ari abayobozi b'inama, biteguye gutanga ibiganiro abandi bagakurikira.

Umwana w'imibiri yombi wogoshe umusatsi yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'ubururu, aravomera mu gikombe amazi kuri robine, ashobora kuba ashaka ayo kunywa afite inyota nyinshi ariko arishimye ko ayabonye.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye: umutuku, ubururu, umweru, umukara, bahagaze imbere y'inyubako ifite ibaraza iriho icyapa cyanditseho ngo gira ubuzima.

Abantu bateraniye mu cyumba, bicaye ku ntebe z'icyatsi zizengurutse ameza, baravanze abagabo n'abagore, abazungu n'abirabura, bashobora kuba bari mu nama, bananywa agakawa, kubera ko hakonje.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe, bicaye bakoze uruziga ku mikeka, harimo abakiri bato n'abakuru, baraganira ku ngingo ifite akamaro, mu buzima bwabo cyangwa se kugira ngo bagire imibereho myiza.

Umugore ukenyeye igitenge, kirimo amabara y'icyatsi, afashe ukuboko umwana wambaye ubusa, bari ku ivomo, hari ibikoresho bitandukanye birimo indobo n'amajerekani, hirya hari abakobwa babiri barimo gukirana.

Abantu benshi barimo abagabo, abagore n'abana bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bahuriye ku ivoma, umugore wambaye umupira w'icyatsi, uteze igitambaro cy'umweru, akenyeye igitenge arasunika icyuma gituma amazi aza mu gihe umwana wambaye ikote ritukura arimo kuvomera mu majerekani y'umuhondo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba bazengurutse ameza, hari abambaye imyenda y'ubururu n'iy'umweru, bari mu cyumba gifite inzugi z'ibiti, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi yo kunywa.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'umweru, barimo gufatanya kwita ku mwana waje arembye, barashaka umutsi kugira ngo bamutere serumu. Mama we yicaye ku ruhande rwo hepfo aramwitegereza afite ubwoba.

Umwana w'umukobwa usutse umusatsi wambaye ikanzu y'umutuku y'igitenge. Ahagaze imbere y'ivomo rizana amazi, arakarabira mu ndobo yijimye, ari mu gipangu cyubakishije bulokesima.

Abana bambaye impuzankano z'ubururu, bicaye mu cyumba bigiramo, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amasahani n'ibiryo, barishimye kubera ko bitetse neza.

Abana bane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, hari uwambaye umupira utukura n'ikabutura y'ubururu ufite inkoni mu ntoki, uwambaye umupira w'ikijuju n'undi wambaye isengeri, bahagaze bitegereza ivomo baheruka guhabwa, ijerekani y'umuhondo irimo kujyamo amazi.

Abantu barimo abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba kirimo amatara amurika neza, giteye irange ry'umweru, kimanitsemo amarido y'ubururu, bameze nk'abanyamakuru barimo kuganira ku ngingo zitandukanye.

Abana batatu b'imibiri yombi bafite imisatsi myinshi, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye: ubururu, icyatsi n'umweru, barakaraba amazi amanuka mu gitembo, bareba mu cyerekezo kimwe, nk'abitegereza umuntu uje kubirukana.

Ahatunganyirizwa amazi asakazwa mu baturage, hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, bitangira asa nabi ku buryo utakwizera ko azavamo amazi umuntu yanywa.

Umwana wambaye ikabutura y'umutuku, umupira w'amabara n'udukweto tw'ubururu, ari ku ivomo aranywesha amashyi, hari indobo yaje kuvomesha. Hakurya hari inzu isize amarangi y'ubururu n'umweru.

Umusaza wambaye ingofero y'umweru n'ishati idoze mu gitenge, ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa n'impuzankano y'akazi y'umweru ifite amaboko maremare ndetse n'uturindantoki, agiye kumusuzuma.

Abantu benshi barimo umusore wambaye ishati y'amabara n'ipantaro y'umukara n'umugore wambaye ijipo y'igitenge, baje kuvoma kuri robine isohoka mu rukuta rw'akazu gasize irange ry'umweru n'ubururu, bafite amajerekani menshi y'umuhondo, amwe bamaze kuyavomera ayandi aracyari ku murongo.

Akabesani ko kwa muganga gakoze muri aluminiyumu, karimo inshinge zipfundikiye zitondetse zikurikiranye, iruhande rwazo hari icupa ry'umuti ricagase ripfundikiye.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga biteye ku buryo buhambaye, bigizwe n'ibyuma byinshi bifatanye bifite ibara ry'umweru, biri mu ruziga runini rufite ibara ry'icyatsi.

Umugabo w'igikara wishimye, udafite umusatsi, yambaye ishati irimo imirongo ihagaze n'itambitse n'ipantaro y'umukara. Yishingikirije ku ijerekani iri iruhande rwa robine, ifite ahantu habiri bavomera.

Abantu benshi bicaye mu kibuga batatanye, basa n'abari mu nama imbere hari ihema ry'umweru risongoye hejuru, bishoboka ko ari aho abayobozi bahagarara, bigaragara ko byari mu mugihe cya Covid cumi n'icyenda.

Umwana ufite agakombe arimo kuvomeramo amazi ava mu kigega kinini cyane gifite ibara ry'umukara. Ni uburyo bwo kubika amazi neza kandi igihe kirekire.

Abagore benshi bicaye mu ibaraza ry'inzu yubakishije amatafari ahiye, uruhande rwo hasi rusize irange ry'umweru n'umukara. Buri wese ateruye umwana we bategereje kwakirwa.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kigaragaraho ijanisha mu myaka itandukanye, rigaragaza ubwitabire bwa buri kigo, mu bijyanye n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore.

Abantu bari ku ivomo, bafite ibikoresho bitandukanye hari amajerekani abiri imwe y'umweru n'indi y'umuhondo, umugore ufungiye igitenge mu ijosi afite indobo y'icyuma, umwana amuhagaze imbere, hari undi mugore ukenyera igitenge wambaye isengeri y'iroza urimo kuhagirira umwana mu ibasi.

Icyumba kirimo abantu benshi biganjemo abagore bafite abana, imbere hahagaze uwambaye igitenge uteze ikindi mu mutwe uhagatiye umwana ufite n'ifishi yo kumukingirizaho mu ntoki.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagore n'abagabo, abagufi n'abarebare, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijeho inyuguti ntoya ziri mu ibara ry'umweru.

Umwana w'umuhungu wogoshe umusatsi, yambaye umupira w'umutuku w'amaboko magufi, aravomesha igikombe cy'umuhondo kuri kano ihora izana amazi kubera ko nta buryo bwateganijwe bwo kuyifunga.

Umugore ukuze wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara n'ikarita y'akazi mu ijosi n'amadarubindi, afunze imisatsi arimo gutanga impapuro zo kuzuza ashobora kuba ari umukozi w'ikigo mpuzamahanga.

Abana bane bigaragara ko ari urubyiruko, harimo abahungu n'abakobwa, bahagaze imbere y'icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi n'umweru, cyandikishijeho amagambo y'umweru, barategura umukino bazerekana mu gihe runaka.

Abaganga bateraniye hamwe, hari abambaye impuzankano z'ubururu bwerurutse n'iz'umweru, iruhande rwabo hari icyapa, kiriho umuntu cyandikishijeho amagambo y'umweru n'umuhondo, bahagaze imbere y'inzu y'amatafari ahiye.

Abantu benshi bari hamwe, bambaye imyenda isa, igizwe n'ingofero z'umweru, imipira y'umweru n'iy'ubururu, barizihiza umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Abagore batatu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bari ku ivomo, babiri barafatanya kuzamura amazi yatunganyijwe ava mu butaka hasi, undi atezeho indobo y'icyatsi, arimo kuvoma anafura.

Umugore wambaye ikanzu ikeye n'umugabo wambaye ipantaro n'ikote ryijimye bahagaze hagati y'abana n'abagore, ubona ko bafite imirire itari myiza bakeneye kwitabwaho.

Abana babiri, umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi n'umweru, bari ku ivomo rihora rizana amazi, barategaho intoki bakanywa, si uburyo bwiza kuko budafite isuku.

Umwana w'umukobwa, ni umunyeshuri afite umusatsi muke, yambaye ishati y'umuhondo n'ijipo y'ikigina. Arakarabira kuri kandagira ukarabe, iriho indobo y'ikigina n'akabesane gakoze muri alminium.

Abantu benshi bahuriye ku kigo nderabuzima bambaye impuzankano y'ubururu bwerurutse hari ufite agakapu k'ubururu bwijimye mu rutugu, hari umugabo ubahagaze imbere arimo kubaganiriza barishimye barakoma mu mashyi.

Ikivunge cy'abantu benshi bateraniye mu kibuga imbere y'inzu nini, ku ruhande rumwe hari ihema ritoya ry'umweru rikoze nk'uruziga, baje gukingirwa indwara yateye.

Abantu bicaye hanze ku ntebe z'imbaho bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bari mu nama imbere yinyubako isize irange ry'ubururu, iruhande hari indobo y'umutuku bashyiramo imyanda.

Umugore utwite inda y'imvutsi aryamye ku gatanda ko kwa muganga yiyoroshe igitenge. Muganga yifashishije agakoresho kabugenewe, arimo kumva ko umutima w'umwana utera neza kugira ngo barebe ko yahita abyara.

Imodoka nini ya rukururana ifite igipande cy'inyuma kiri mu ibara ry'umweru. Hariho ikirango cy'muryango mpuzamahanga wita ku biribwa kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho ikiganza cy'umuntu gifashe ihundo ry'ingano.

Abagore bicaye hamwe bose bambaye imipira y'umweru ifite amaboko magufi bateruye abana, bashobora kuba ari abakobwa b'abangavu babyaye imburagihe, hari abagiraneza baje kubasura barimo guha abana amata.

Umukobwa w'igikara ufite umusatsi muke, wambaye ishati y'amaboko magufi n'ijipo y'umukara, asutamye imbere y'amabase abiri agerekeranyije ateretsemo ijerekani y'umuhondo, hirya ye hari inzu isakaje amabati ashaje, naho inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda.

Abaganga benshi b'abirabura bambaye impuzankano y'umweru, bahagaze mu cyumba gifunganye, bari kumwe n'umugore w'umuzungukazi wambaye ikanzu ndende y'umutuku, barafata ifoto y'urwibutso.

Abana benshi bari ku ivomo rizana amazi adahagarara, bafite amajerekani yo kuvomeramo, hari umukobwa wambaye ijipo y'umutuku n'agapira k'umuhondo.

Abana b'ingimbi n'abangavu bambaye imyenda isa. Igizwe n'imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara. Imbere yabo bafashe icyapa cyanditseho unicef ni umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Abana bakiri bato biganjemo abambaye amashati y'ibara ry'icyatsi, umwe arimo kunywesha amazi ikiganza avoma kuri robine yambaye umupira w'umweru afite agakapu k'ibitabo mu rutugu.

Umugabo mugufi wambaye ikote n'ipantaro by'umukara n'ishati y'umweru, arasuhuzanya n'undi muremure wambaye imyenda ifite ibara ry'ivu, hirya yabo hari abandi bantu babiri harimo umugabo w'umwirabura n'umugore w'umuzungu.

Abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo uwambaye ishati y'ubururu bwijimye, iy'umuhondo, n'uwambaye imyenda ya kiyisiramu witandiye umwenda w'umweru, bari mu cyumba kimanitsemo irido y'ubururu bwijimye.

Abantu benshi bahuriye ku ivomo, harimo umugore uteze igitambaro wambaye ishati y'umuhondo, akenye igitenge kirimo amabara y'umutuku, bapanze amajerekani bakurikije uko baje, ushinzwe kuvomesha yashyize amajerekani abiri kuri robine.

Abana babiri b'abakobwa bambaye imyenda y'amabara, bari ku ivomo, barafatanya kwikorera indobo iri mu ibara ry'icyatsi, yandikishijeho inyuguti z'umweru amagambo yo kwamamaza.

Umugabo n'umugore witeze igitambaro wambaye n'umupira w'ubururu barimo kuvoma kuri robine, ashobora kuba ari ivomero rusange riri hino y'ishyamba ririmo ibiti birebire cyane bishobora kuba ari imiyenzi.

Umuganga wambaye imyenda yose y'ubwirinzi, ishati y'icyatsi, agapfukamunwa k'ubururu, ingofero irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, ari mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi byihariye, gishobora kuba ari icy'ibagiro.

Abagabo babiri harimo uwambaye ikote ry'umukara n'uwambaye ishati y'umuhondo, bicaye imbere y'ameza atwikirije igitambaro, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho inyuguti zimwe z'umweru n'iz'ubururu.

Umugore munini ufunze imisatsi yambaye ishati y'umweru, yagize ubwoba bwinshi kubera urushinge muganga arimo kumutera kugira ngo amukingire atazarwara.

Umugore w'imibiri yombi, wambaye umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru n'umukara, uteze igitenge, ateruye umwana we yubitse inda, umuganga uzwi cyane mu buvuzi bw'abana arimo kumukingira.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'ikarita y'akazi mu ijosi ifite umugozi w'ubururu, arimo kwita ku mubyeyi uje amugana arwaye, aramufata amaraso kugira ngo babashe gusuzuma bamenye icyo arwaye.

Umugore wambaye ikanzu ngufi irimo amabara y'umutuku n'icyatsi, iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro n'ikote byijimye n'ishati y'icyatsi na none ku ruhande hari umugore uteruye umwana usa n'ufite imirire mibi.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba, imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'icyatsi, ufunze imisatsi, bigaragara ko ari abagore baje gukingiza abana kugira ngo ngo batazibasirwa n'indwara zitandukanye.

Abantu batatu bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, bicaye mu cyumba kimwe bakikije ameza, barandika mu bitabo. Bashobora kuba ari abaganga barimo gutanga raporo y'uko ijoro ryagenze.

Abantu benshi biganjemo abambaye impuzankano y'abaganga y'umweru ifite amaboko maremare, hari batatu bicaye imbere inyuma hari icyapa kiriho amafoto yabo bateraniye ahantu bita i Nyabageni.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano, igizwe n'ishati irimo amabara y'ubururu n'umweru n'ikabutura y'ubururu, bafite ibikombe mu ntoki barimo kuvomesha mu bikoresho byabugenewe, biteretse ku meza akoze mu giti.

Abana bambaye imipira isa iy'ubururu yandikishijeho inyuguti z'umweru, imbere ijambo Unicef, bafatanye urunana bari mu cyumba cyubakishije amatafari ahiye, gifite inzugi z'ubururu.

Abagabo batatu b'ibikara, bambaye impuzankano y'abaganga, igeretseho imyenda y'ubwirinzi ndetse n'udupfukamunwa, barareba mu cyerekezo kimwe, bigaragara ko bashobora kuba barimo kwigishwa uburyo bushyashya bwo kuvura.

Umwana wambaye agapira k'umutuku karimo amabara atambitse y'umweru, ateze ibiganza ku ivomo ry'amazi atemba, imbere ye hari amajerekani abiri afite ibara ry'umuhondo n'iy'ubururu arishimye bishoboka ko amazi yari amaze igihe yarabuze.

Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka icumi afite agasatsi gake, yambaye ishati y'icyatsi cyererutse arimo kuvoma kuri robine atezeho ibiganza byombi, imbere ye hari indobo y'ubururu ipfundikiye agomba kuba yamaze kuyivomera ategereje umukorera.

Amagambo yo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, yanditse ku gishushanyo cy'umutwe w'umuntu, kiri mu ibara ry'umweru, kizengurutswe n'ibara ry'icyatsi ricagaguye rimeze nk'ibicu.

Umugore w'igikara ufite imisatsi myinshi, yambaye indorerwamo z'amaso n'imyenda y'ubururu n'umuhondo, ahagaze imbere y'urukuta rwubakishije amatafari ahiye, afite agatabo mu ntoki arimo kwerekana ibyo akora.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe, bigaragara ko bari mu nama. Baravanze abagore n'abagabo, abazungu n'abirabura. Inama irashoje, barimo kwishimira imyanzuro y'ibyagezweho.

Abantu babiri bambaye udupfukamunwa bahagaze berekeranyije inkokora umwe yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro yikake undi yambaye isalubetti y'ubururu n'ishati y'umweru.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi biganjemo abagore bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, hari ikanzu y'icyatsi, ikote ry'umutuku, umwenda w'umweru, bose bafite amakarita y'akazi bambaye mu ijosi, baratekereza ku ngingo bagiye kwigaho.

Umugore w'igikara uteze igitambaro, yambaye ishati n'ijipo, akikiye umwana wambaye agapira k'icyatsi, iruhande rwe hicaye undi mwana, bari imbere y'inzu y'icyondo ifite urugi rutagera hasi.

Abantu benshi bambaye imipira y'ubururu yandikishijeho inyuguti z'umweru, bateraniye hamwe mu cyumba, hagati yabo hahagaze abandi bantu babiri, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, barafata ifoto y'urwibutso.

Abantu babiri bicaye hamwe ku ntebe z'umutuku, umugabo wambaye umupira w'umukara arasa n'urangaye, n'aho umugore wambaye ishati y'igitenge usutse imisatsi afite indangururamajwi arimo kuvuga ariko ntitureba abo abwira.

Umugore ufunze imisatsi, yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, yifashe mu mutwe bigaragara ko ahangayitse kubera ikibazo runaka yahuye na cyo akaba adafite ubushobozi bwo kugikemura.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ngo wihogora, munsi yayo hari amaboko ahobeye umubumbe uri mu ibara ry'umuhondo, munsi hari amagambo yanditse ari mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ingofero ifite urugara imbere, yakutse amenyo, yiteye umwenda w'umuhondo hejuru y'ishati ya karokaro, ifite amaboko maremare, afite icumu ashobora kuba ari intore.

Umugore w'igikara witeze igitambaro cy'umuhondo, yambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'igitenge, iruhande rwe hashushanyije ururabo, inyuma ye hari urukuta rw'umweru runini.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho ifoto y'umugabo wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru n'amagambo yamamaza ikigo cyita ku buzima bwo mu mutwe cyafunguwe i Kigali.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imigufi n'imiremire, hari abambaye amapantaro, bahagaze imbere y'inyubako ifunguye cyane biteguye gufata ifoto y'urwibutso.

Ifoto y'umugore w'igikara cyane ufunze imisatsi useka, wambaye imyenda y'isine n'umuhondo, iri ku cyapa kirimo icyatsi n'ubururu, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati nziza y'igitenge izwi nka made in Rwanda, yegamye ku rukuta rw'umweru, arareba hejuru ashobora kuba hari icyo yitegereza cyangwa se akaba yihebye kubera ibibazo byamubayeho.

Umuntu w'umugabo ufite imisatsi myinshi isutse, n'ubwanwa bwinshi budafite isuku, yambaye ishati yijimye ifunguye ibipesu, arimo kuririmba ashobora kuba ari umuhanzi.

Udushushanyo twinshi tw'abana turi mu mabara atandukanye: hari ubururu, umuhondo n'umukara; hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, agaragaza akamaro ko kwita ku burwayi bwo mu mutwe.

Umugabo muremure ufite umusatsi muke, yambaye umupira w'umutuku ufite amaboko magufi n'ipantaro yijimye n'inkweto z'umukara, yicaye ahantu hatari isuku, yegamiye urukuta ,ashobora kuba afite uburwayi bwo mumutwe.

Umugabo w'igikara wambaye amadarubindi ahagaze hagati y'amabendera abiri iry'u Rwanda n'iry'umuryango w'abibumbye, imbere ye hari icyapa cyandikishijeho amagambo manini ari mu nyuguti z'ubururu.

Abantu bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umweru ifunguye umuryango, barafasha mugenzi wabo kwishimira impamyabushobozi y'ibyo yigiye, amaze igihe kirekire avunika yishimiye umusaruro.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kigaragaraho umutaka ufunguye n'udushushanyo tune tw'abantu, hari amabara atandukanye: icyatsi, ubururu bw'ikirere n'ikigina n'amagambo yanditse munsi.

Itsinda ry'abantu benshi bagenda mu muhanda, umujyo umwe, harimo abambaye impuzankano za gipolisi, abambaye imipira y'icyatsi, hari babiri bari imbere bafashe icyapa, cyanditseho ko kurwanya ihohoterwa ari inshingano ya buri wese.

Abana bambaye imipira y'umuhondo ifite amaboko magufi n'udutambaro tw'umweru mu mutwe, barakoma mu mashyi bishimye; bishoboka ko hari umwe muri bo wagize isabukuru y'amavuko.

Abakobwa babiri bicaye barebana, uwambaye imyenda y'umutuku n'ingofero asa n'ufite agahinda, naho uwambaye imyenda y'umukara n'amadarubindi ufite umusatsi muke arimo kugerageza kumuhumuriza.

Umugore w'imibiri yombi usutse imisatsi ufite iminwa minini, yambaye imyenda irimo amabara menshi, harimo ubururu, umweru, icyatsi, ikigina, ari mu iduka acururizamo.

Abana benshi bishimye baseka biganjemo abambaye amashati y'icyatsi ariho karavate z'ubururu, imbere hari akana kambaye agapira gafite ikora ritukura bashobora kuba ari abanyeshuri b'ikiburamwaka.

Umusore w'imibiri yombi ufite agasatsi gake yambaye umupira w'umuhondo arishimye araseka, yita ku buzima bwe bw'amenyo kuko arakeye kandi arakomeye.

Umugabo muremure wambaye ishati y'amabara n'ipantaro y'umukara, arasuhuza umugabo umeze nabi ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda yacikaguritse, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugore ukenyeye igitenge yambaye n'ishati y'amaboko maremare ifite amabara, yicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hari umusambi, ari mu nzu itameze neza yasenyutse uruhande rumwe.

Ifoto y'umutwe w'umuntu, iri mu ibara ry'ubururu bumurika, igaragaza imiterere y'igice kimwe cy'ubwonko cyo ku ruhande, ni ibintu bihambaye birenga ubwenge bwacu, bituma dutekereza ku uwamuremye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagabo n'abagore, imbere hari abagabo batatu bambaye amashati y'umweru, iruhande rwabo hari uwambaye ishati yijimye n'amadarubindi, hino hari uwambaye ishati y'isine.

Umugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi muke, yambaye umupira w'umweru, ikote ry'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi, arahagaze arimo gutanga ibitekerezo mu nama bikwiye kwitabwaho cyane.

Ifoto y'umugore w'inzobe cyane usutse imisatsi, iruhande rwe hari amagambo yandikishije inyuguti z'ubururu, ni kampani izwi cyane icuruza ingufu zituruka ku mirasire y'izuba yitwa Maysol.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba k'inama, hari umugore uri imbere wambaye ikanzu y'umweru n'agakote k'umukara urimo gutanga igitekerezo. Hari abamukurikiye n'abandi barangaye, nk'uyu wambaye ishati y'amabara arimo umutuku ureba muri telefone ye.

Abantu benshi bahagaze mu ibaraza ry'inzu biganjemo abambaye impuzankano igizwe n'imipira y'ubururu bw'ikirere, umugabo muremure wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru na karuvati abahagaze hagati.

Abantu bahagaze ku murongo bakurikiranye bose barareba imbere, baravanze abagabo n'abagore harimo n'umuzungu umwe, bafashe mu ntoki ibyapa byiganjemo ibara rya oranje n'akandi kabara gato k'icyatsi ku ruhande.

Umugabo w'igikara ufite umusatsi muke, yambaye ikanzu y'ubururu ndende ifite amaboko maremare, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu.

Umukecuru wambaye imyenda y'amabara ateze igitambaro arimo guteka ku nkwi, ari imbere y'inzu ye yubakishije amatafari ya rukarakara, arishimye nubwo bigaragara ko ari umukene.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi harimo ibyihariye cyane bikoreshwa kwa muganga, hari intebe izenguruka n'iyindi basuzumiraho uburwayi bw'amenyo, hakurya hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo umurika cyane.

Icyumba kigali gisize amarange y'umweru dede kimurikiwe n'amatara afashe mu gisenge, kirimo ibikoresho byinshi bikoranye ubuhanga byifashishwa kwa muganga, ku ruhande hari ahagenewe gukaraba hari ibikoresho byinshi naho.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, hari intebe izenguruka, imbere yayo hari agatanda gafasha kuryamisha umurwayi uko bikenewe, hari n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu gusuzuma uburwayi butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kibonesherejwe n'itara rimanitse hejuru mu gisenge, kirimo ibikoresho bimwe bisanzwe n'ibindi bihambaye. Intebe n'agatanda by'ibara ry'isine, n'igikoresho gisuzuma gifasheho mudasobwa bareberamo ibisubizo

Umuganga wambaye indorerwamo z'amaso n'uturindantoki, afite ibyuma mu biganza byombi arimo gukoresha asuzuma amenyo y'umwana kugira ngo amenye arwaye maze abone uko ayavura.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba, bamwe bambaye imipira y'icyatsi yandikishijeho umuhondo, abandi bambaye imipira y'umweru, bicaye imbere y'ameza atwikirije igitambaro cyera.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara ifite akabara k'umweru ahagana imbere no ku maboko, arimo gusukura amenyo akoresheje uburoso, ahagaze imbere y'umwenda utukura, imbere hari itara rimurika cyane.

Abantu batatu, ni abahungu babiri n'umukobwa umwe w'inzobe ufite imisatsi myinshi, bose bambaye imipira y'umweru ifite amaboko magufi. Barerekana akamaro ko kwita ku menyo agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ubusa igipande cyo hejuru, afite igitambaro cy'amazi ku rutugu arakoresha urudodo akura imyanda mu menyo, ni uburyo bwiza bwo kuyabungabunga agakomera kugeza igihe azasazira.

Abantu babiri, bicaye mu cyumba kirimo itapi irimo amabara, n'ameza atwikirije ibitambaro by'ubururu, umugore umwe w'igikara usutse imisatsi, wambaye ikote ry'ubururu yasetse cyane, iruhande rwe hari undi ufite imisatsi myinshi, wambaye amadarubindi, n'ikote ry'umutuku.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kirimo ameza atwikirije igitambaro cy'umweru. Hari itsinda ry'abambaye imipira y'icyatsi, yanditseho ijambo tubiteho mu gatuza. Abaganga barimo kubasuzuma amenyo. Umwe utaragerwaho yagize ubwoba cyane yipfutse mu maso, abandi babiri baritegereza uko bikorwa.

Abaganga babiri bambaye impuzankano y'umweru, n'uturindantoki, bafite ibyuma bitandukanye, barimo gukoresha bita ku burwayi bw'amenyo bw'umurwayi waje ubagana ababaye.

Abantu bari mu cyumba cy'ishuri, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara, imbere hari umugabo wambaye impuzankano y'umweru, arereka umunyeshuri wambaye ishati y'icyatsi igishushanyo cy'ukuntu amenyo aba ameze mu kanwa.

Umukobwa w'igikara ufite imisatsi ije mu maso n'amenyo y'umweru, arakoresha akadodo ayakuramo imyanda kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, azagere mu zabukuru agikomeye.

Umusore w'imibiri yombi wambaye umupira w'umweru, yasetse yakwenkwenutse, ahagaze yegamiye urukuta rufite ibara ry'umuhondo, rushobora kuba ari urw'akazu k'isosiyete y'iby'itumanaho MTN.

Umuntu wasamye, afite agakoresho mu ntoki ze kariho urudodo, arakura imyanda hagati y'amenyo. Ni uburyo bwiza butangiza ishinya, bugatuma umuntu akomeza kugira amenyo akomeye.

Umuntu wambaye agapira k'umuhondo n'amaherena, arasamye ari imbere y'umuganga urimo kumusuzuma yifashishije agakoresho kabugenewe, yambaye uturindantoki dufite ibara ry'umweru.

Abana bari mu ishuri bambaye impuzankano y'ikigo cyabo, bose bafite biswi bazishyize hejuru barishimye, mwarimu wabo yabaguriye kubera ko bagize amanota meza bakamushimisha.

Umusore w'imibiri yombi w'ibigango, arakoresha urudodo akura imyanda mu menyo, ni uburyo bwiza bwo kuyarinda kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, azagere mu busaza akiyafite yose.

Umuganga n'abafasha be, barimo kwita ku mugore waje arwaye amenyo, iryangiritse cyane bamaze kurikura, barimo kuhakanda kugira ngo hadakomeza kuva amaraso, banareba ko nta rindi ryangiritse bikabije.

Umusore w'imibiri yombi ufite umusatsi muke, araseka kubera ko yishimye, yateretse ubwanwa, yambaye umupira w'ikigina, inyuma yambariyeho ikote ry'ubururu.

Abantu harimo abakuze n'abakiri bato bicaye mu busitani, ni uburyo bwiza bwo kwirangaza mu gihe cy'ibiruhuko, abana bakaganira n'ababyeyi ndetse bakumva n'ibyo ba nyirakuru bababwira.

Umukobwa w'igikara usutse imisatsi ariko idafunze, yambaye agapira k'umweru karimo utubara n'ipantaro, azaniye papa we imiti kugira ngo akomeze abungabunge ubuzima bwe imyaka yicume.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ishati y'ikigina yifashe mu gahanga arimo gusoma igitabo kinini, arakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye byagirira akamaro abatuye Isi bose muri rusange.

Umugabo w'igikara wambaye amadarubindi n'ishati y'ubururu, ari kumwe n'umugore w'umuzungu ufite imisatsi miremire wambaye impuzankano y'umweru; bafatanye mu biganza, ku rundi ruhande umugabo yishingikirije ku nkingi.

Umuntu w'imibiri yombi, ufite umusatsi mwinshi, yambaye agakoresho ko kwa muganga ku kaboko, arapima umuvuduko w'amaraso mbere yo gutangira imyitozo ngororamubiri kugira ngo amenye ko nta burwayi afite.

Umupapa ukuze yambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'ikake, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, ari mu myitozo n'umukobwa we ukiri muto usutse imisatsi, wambaye ipantaro y'icyatsi, afite umupira mu ntoki, barakina basiketi.

Abantu batandatu bari mu kigero cy'imyaka itandukanye, hari umugabo ukuze ufite imisatsi n'ubwanwa birimo imvi, yambaye ishati y'umweru, imbere ye hari umugore ufite imisatsi myinshi miremire urimo guseka, hari abana babiri, undi mugabo n'umugore, bigaragara nk'aho ari umuryango umwe.

Umukecuru usutse imisatsi irimo imvi, ari kumwe n'umusaza ufite uruhara, wambaye amadarubindi, bishoboka ko ari umugabo n'umugore bicaye iwabo mu rugo, barimo gusuzuma fagitire y'ukwezi bagomba kwishyura.

Umukecuru ufite imvi z'uruyenzi w'inzobe, yambaye ishati y'ubururu bw'ikirere, inyuma ye hari umukobwa w'inzobe ufungiye imisatsi hejuru, wambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi n'umweru, barimo kuganira, barishimye.

Abantu bari mu kigero cy'imyaka itandukanye, harimo abagore bakuze n'abakiri bato, abagabo bari mu myitozo ngororamubiri baragenda muri kaburimbo iruhande rw'ubusitani butoshye, ku nkengero z'umuhanda hasize irange ry'umweru n'umukara.

Abagore babiri bambaye imyenda y'ubururu, umwe asutse imisatsi irafunze, undi ateze igitambaro cy'umutuku bari mu myitozo ngororamubiri, izabafasha kugeza mu myaka y'izabukuru.

Umugabo w'igikara ufite ubwanwa burimo imvi, wambaye umupira w'umweru, aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, iruhande rwe hari igikoresho gipima umuvuduko, muganga amuhagaze imbere aramwitegereza.

Abantu babiri bicaranye, umugabo ukuze ufite imisatsi y'imvi yambaye ishati ya karokaro y'umutuku n'agapira k'ikijuju, imbere yabo hari ifunguro ryiganjemo imboga, ni uburyo bwiza bwo kubungabunga ubuzima cyane cyane mu myaka y'izabukuru.

Abantu babiri b'imibiri yombi barimo guseka, harimo umubyeyi ukuze wambaye amadarubindi n'umupira w'umweru, barimo gutegura ibyo kurya biryoshye, bifite intungamubiri nyinshi.

Umuganga ufite imisatsi myinshi, yambaye agapira k'iroza, afite igikoresho cyo kwa muganga mu ijosi, arafasha umukecuru ufite imisatsi y'imvi gukora imyitozo ngororamubiri buhoro buhoro kugira ngo asunike iminsi.

Abantu benshi bateraniye hamwe ahantu munsi y'igiti, bari mu nama, ab'imbere bafite utugare dukoreshwa n'abafite ubumuga butandukanye, cyane cyane abarwaye umugongo.

Umugore ugeze mu zabukuru, afite imisatsi y'imvi, arishimye aramwenyura, yambaye isengeri y'isine, aryamye ku itapi y'ubururu, arakora imyitozo ngororamubiri agerageza kweguka, biramufasha mu myaka ye.

Umugore ugeze mu zabukuru ufite imisatsi y'imvi, yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, afite isahani mu kaboko iriho ibiryo byiganjemo ibikomoka ku bihingwa, bituma agira ubuzima bwiza agahorana akanyamuneza.

Umuntu w'umugabo ushaje cyane imisatsi n'ubwanwa byahindutse imvi afite intege nkeya, yicaye mu kibase kinini cy'ubururu barimo kumwoza bakoresheje amazi n'isabune.

Abantu babiri umugabo, ukuze ufite umusatsi w'imvi n'ubwanwa burimo imvi, yambaye amataratara n'ishati, ari kumwe n'umugore uteze igitambaro, hari ingingo arimo kumusobanurira.

Umuganga ukiri muto ufunze imisatsi, yambaye impuzankano y'ubururu n'ishati y'umweru, arimo kwigisha umukecuru gukora imyitozo ngororamubiri mike, yamufasha ku myaka ye y'izabukuru.

Umugabo ukuze ufite imvi mu bwanwa, yambaye amadarubindi n'ishati y'iroza, yicaranye n'umukobwa w'inzobe ufite imisatsi myinshi y'irabura barimo gusangira banaganira bizihiwe.

Umuganga wambaye imyenda y'umutuku afashe ukuboko umusaza ufite imvi wambaye amadarubindi n'ishati y'umweru, arumva inshuro umutima we utera mu munota kugira ngo amenye ko nta burwayi afite.

Umugore ukuze ufite imisatsi miremire isokoje neza yambaye agapira gaciyemo amaboko k'ubururu bwijimye n'ipantaro y'umukara arakora imyitozo ngororamubiri, imbere yo kuryama yicaye ku kamatera kabugenewe.

Umusaza wambaye amadarubindi ari kumwe n'umukecuru wambaye umukufi mu ijosi. Bose bambaye imipira y'umutuku ifite amaboko maremare, bahagaze iruhande rw'ameza manini atwikirije igitambaro cy'umweru, barafatanya kunywa imiti.

Umugore ukiri muto wambaye agashati k'ubururu k'amaboko magufi, afite umusatsi muremure cyane, hari ibyo arimo gufasha umugabo ukuze ufite imvi wambaye amataratara n'umupira w'ubururu.

Umubyeyi ukuze w'umugore w'inzobe usutse imisatsi, yicaye mu ntebe y'umweru. Umukobwa we amuhagaze inyuma, yambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'agapira k'umweru k'amaboko maremare, aramwenyura.

Abagore batatu bakuze harimo uwambaye umupira w'umuhondo ufite amaboko maremare, bahuye bataherukanaga barishimye barimo gufata ifoto y'urwibutso mbere yo gutandukana.

Abantu babiri, harimo umugabo ukuze, ufite imvi no mu bwanwa, wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi, ari kumwe n'umukobwa wambaye ishati y'umweru, aramufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo muremure munini yogoshe umusatsi awumaraho, yambaye ipantaro y'umutuku, aragendera ku kuma kifashishwa n'abantu barwaye umugongo, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'ubururu ufunze umusatsi.

Umusaza n'umukecuru bameze neza bafite imisatsi y'imvi barimo kurya ibiryo bifite intungamubiri, ni ingenzi bibafasha gusunika iminsi kandi bakishimira ubuzima.

Abantu babiri umugabo n'umugore bambaye imyenda y'amabara, bari mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi, byiganjemo ameza, hari inzira ifite ibyuma ku mpande zombi wishingikirizaho kugira ngo utagwa.

Itsinda ry'abantu bateraniye mu cyumba, gitatsemo imyenda iri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda, bahaye impano umukecuru ukenyeye igitenge igizwe n'ikiringiti, arishimye kubera ko yari agikeneye.

Umuntu ugaragara igice cyo hepfo yambaye ikanzu y'ubururu n'ibirenge bidafite inkweto, ahagaze imbere y'intebe, imbere ye hari agakoresho kifashishwa n'abantu barwaye umugongo kugira ngo babashe kugenda.

Umukecuru ukuze cyane, ateze igitambaro cy'umweru, yambaye ishati y'umweru n'umwenda w'umuhondo, yicaye iwe mu rugo imbere y'amashyiga, inkono ku ziko imbere y'urugo rw'imihati.

Umuganga w'inzobe wambaye impuzankano y'ubururu, asokoje umusatsi, arasindagiza umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, akenyeye umukandara munini w'umweru mu nda, ashobora kuba afite ikibazo cy'umugongo.

Abantu babiri, hari umugabo bigaragara ko akuze, yambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'ubururu n'ipantaro, yicaye ku buriri bushasheho amashuka y'umweru, iruhande rwe hari umuganga umufasha guhaguruka.

Umusaza ufite uruhara n'imisatsi y'imvi wateretse ubwanwa, yambaye ishati y'ubururu bwijimye ifite amaboko maremare ari kumwe n'umugore ukiri muto ufite imisatsi myinshi aramwereka mu gikoresho cye cy'ikoranabuhanga uko yashyize mu bikorwa inama yamugiriye ubushize.

Abagore benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye yiganjemo ibitenge, bicaye mu ibaraza ry'inyubako yo kwa muganga bategereje umuganga uri bubiteho kubera uburwayi bafite.

Abaganga benshi bari mu cyumba bazengurutse umurwayi, bambaye impuzankano z'akazi, harimo n'imyenda y'ubwirinzi igizwe n'ingofero z'ubururu, udupfukamunwa n'uturindantoki. Barimo kumwitaho kubera ko aje arembye cyane.

Abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bicaye bitonze ku ntebe z'umutuku ziteye zikurikiranye mu cyumba kigari, hari umugabo wicaye ku murongo wi'imbere wambaye agapfukamunwa ashobora kuba arwaye ibicurane.

Icyapa kinini cy'ubururu bwijimye, cyandikishijeho inyuguti ebyiri nini H na R, hagati yazo hari ibiganza bibiri bitagaragara neza bisuhuzanya. Munsi hari amagambo yandikishije inyuguti ntoya agira ati "Abantu bafite ubuzima bwiza mu Rwanda."

Abantu bafite ubuhanga butandukanye bwihariye, abaganga bavura bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, abatanga ibikoresho by'imirasire y'izuba, hari n'abafite ubuhanga mu by'ubuhinzi.

Abantu bahagaze neza bakurikiranye ku buryo bufite gahunda, mu cyumba kirimo itapi ifite ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hari ibyapa byamamaza, bambaye amakarita ajyanye n'akazi bakora.

Abagabo n'abagore bateraniye mu cyumba cy'inama, baraganira ku bihereranye n'ukuntu abakozi bagira ubuzima bwiza n'umutekano, aho bakorera, ndetse n'uko bakwitabwaho mu gihe hari impanuka ibaye.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere n'umweru hejuru hari amagambo yandikishije inyuguti nini ziri mu ibara ry'ubururu hari itara hepfo hari amagambo yandikishije utuyuguti duto tw'umukara agaragaza ibimenyetso by'indwara ya diyabete.

Umugore w'imibiri yombi usutse imisatsi, yambaye ishati y'icyatsi n'ijipo y'umweru ivanzemo andi mabara, aratanga ikiganiro gishimishije arimo kumwenyura, bigaragara ko n'abo abwira bakishimiye.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi miremire, yambaye amadarubindi, ikarita y'akazi y'ubururu mu ijosi, ikote ry'ikake, ishati n'ipantaro by'umukara, afite indangururamajwi aratanga ikiganiro amwenyura.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe, hari batandatu bicaye ahagana imbere higiye hejuru bigaragara ko ari abayobozi b'inama, biteguye kwakira ibitekerezo bitandukanye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umweru cyandikishijeho inyuguti z'umukara n'umutuku kiriho umugore wambaye imyenda y'umweru arimo gukingira umwana ashobora kuba ari umukorerabushake.

Umuganga wambaye ingofero y'ubururu n'ishati y'umweru y'amaboko magufi, afite akanyamuneza, agaragaza ibyishimo bishobora guturuka mu gushyira imbaraga mu bikorwa byo kubungabunga ubuzima mu buryo butandukanye.

Umukobwa ufunze imisatsi wambaye agashati n'ijipo y'ubururu ngufiya ahagaze iruhande rw'inyubako izwi cyane ya konveshoni senta, hejuru hari amagambo yamamaza umunsi wo kwirinda diyabete.

Inyugutira r,na b, na c ni impine y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima, zandikishije amabara agize ibendera ry'u Rwanda ariyo ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bahagaze ahantu hamwe, hari babiri bambaye imipira y'ubururu, bakurikiwe n'abandi babiri bambaye imipira y'umweru, hakuno hari abandi benshi bahagaze ku murongo, biteguye gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi, bagaragara ko ari urubyiruko bambaye imipira y'umweru, ariko hari bane bicaye ahagana imbere, umwe yambaye ishati y'icyatsi, batatu bambaye imipira y'umukara yandikishijeho amagambo ari mu ibara ritukura.

Abantu babiri bambaye imyenda isa y'ubururu n'ingofero z'umweru hamwe n'uturindantoki, bari mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi hari ameza n'indobo bashyiramo imyanda, umwe arimo gusuzuma amenyo umuntu waje amugana hakurya hari abandi bategereje.

Utwapa dutanu turi mu mabara atandukanye, uturutse ibumoso ujya iburyo hari umutuku, ubururu, icyatsi, isine, ikigina, twose turiho ingamba zifashishwa mu kwigisha abantu impamvu bagomba kwikingiza.

Itsinda ry'abantu benshi bambaye imipira y'umweru, baragenda umujyo umwe, ab'imbere bafite ibyapa binini biri mu ibara ry'isine, byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare iravurwa igakira.

Umugabo muremure w'igikara ufite isuku yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikake, yicaye imbere y'abana benshi bambaye amashati y'umweru, amakabutura y'ubururu n'amasogisi y'umweru na karavate bigaragara ko ari umwarimu ubigisha.

Abantu batatu bambaye imyenda y'ubururu n'udupira tw'umweru, bateze ibitambaro, bari kumwe n'umugabo wambaye ikote n'ipantaro byijimye n'ishati y'umweru. Inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu kiriho ikirangantego cy'u Rwanda. Munsi yacyo handitseho ijambo minisiteri y'ubuzima.

Umugabo muremure munini wambaye ishati y'umukara, ari kumwe n'umugore wambaye ikote ry'umukara, bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba kimwe, ni abagabo n'abagore, bamaze kwigishwa buri wese afite impamyabushobozi mu ntoki. Inyuma yabo hari icyapa cyamamaza, imbere hari ameza atwikirije igitambaro cy'umweru.

Abantu babiri, harimo umuzungu wambaye ipantaro n'ikote by'umukara n'ishati ikeye, umugore yambaye ikanzu ngufi, bahagaze imbere y'icyapa kirekire bose bambaye amakarita y'akazi mu ijosi.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ishati y'umweru umwenyura, icyapa cyandikishijeho inyuguti z'umweru ziri mu ibara ry'isine, harimo intoya n'inini amagambo asobanutse neza.

Abagore bane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, batatu muri bo bateze ibitambaro, undi afite agasatsi gake, buri wese ateruye uruhinja rwe, hejuru yabo hari ibyapa bigaragaza ibikorerwaho hashobora kuba ari kwa muganga.

Urukuta rw'amabuye ruri hirya no hino y'ingazi zerekeza ku nyubako isize irangi ry'ubururu, yandikishijeho amagambo manini y'umweru, agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Icyumba kitabona neza gifite idirishya riringaniye, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo: intebe, akameza, agatanda gato ndetse n'agakoresho bashyiramo imyanda.

Inzira ndende ikoze neza, ikikijwe ku ruhande rumwe n'ubusitani, ku rundi hari indabo, irerekeza ku nzu nyinshi ziri hamwe, harimo izisize amarange y'umweru, imbere yazo hari ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu ufite umusatsi muke, arimo kwitegereza muri mudasobwa, ifoto y'igituza cy'umuntu bafotoye. Aragira ngo asuzume uburwayi afite niba ari ibihaha avurwe atararemba.

Icyumba kinini kisanzuye kirimo itara rimurika neza, urugi rwacyo ahanini ni ikirahure, hari intebe ndende bicaraho bategereje. Inyuma yayo hari ikibaho cyandikishijeho amagambo agaragaza ko hakorerwa ubuvuzi bwo kwita ku bakora siporo.

Igishushanyo cy'inzu ishishikaje yubatse neza imbere yayo hari pisine n'intebe zifite amabara atandukanye, abamaze koga bicaraho hari akanyamasyo ni akanyamaswa gateye ku buryo bwihariye kaba mu mazi.

Abantu bavanze abagabo n'abagore, abenshi bambaye imipira y'ubururu yandikishijeho amagambo y'umweru, bari mu ibaraza rya Maternite inzu y'ababyeyi.

Ikirongozi kiri mu nyubako nini y'umweru, kirimo intebe z'ubururu zicarwamo n'umuntu umwe umwe, ku rukuta hari ibishushanyo byiza, binini, by'ubugeni n'ubukorikori, umuryango urakinguye.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, ifite urugi ruzengurutswe n'ibirahure rukinguye, hejuru hari icyapa kigaragaza ko ikoreramo inzu icuruza imiti ivura abantu.

Ibikoresho byo kwa muganga byihariye, biri mu cyumba kinini gifite inkuta zisize amarangi y'umweru dede, hagati hari agatanda k'umukara karyamyeho igipupe cyoroshe amashuka y'umweru bigiraho kuvura.

Inyubako nziza ifite imiryango ikurikiranye, imbere yayo hari ubusitani butoshye, buteyemo igiti kimwe kinini cyakuze ku buryo gitanga igicucu umuntu yakwicaramo igihe izuba ari ryinshi.

Umugabo w'igikara wambaye umupira w'ikigina n'impuzankano y'abaganga ifite ibara ry'umweru n'amaboko maremare yambaye n'isaha, yicaye ku gatebe kazenguruka mu cyumba kirimo amakaro, iruhande rw'agatanda bavuriraho gafite ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyiza gifite amadirishya menshi akurikiranye, kirimo intebe nyinshi ziteye ku murongo zisa n'ameza manini akoze mu giti cy'agaciro, nta muntu n'umwe urimo, bisa n'aho inama itaratangira.

Umuntu uryamye ku gatanda ko kwa muganga, yambaye ishati irimo amabara ahagaze n'atambitse, ipantaro y'ikigina, n'inkweto z'umweru, iruhande rwe hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, urimo kumwitaho.

Icyumba gisize irangi ry'umweru ku nkuta n'iry'ubururu hasi, kirimo ibikoresho byinshi bihambaye byifashishwa kwa muganga mu kuvura indwara zitandukanye, bisaba abakozi b'abahanga babasha kubikoresha no kubyitaho byangiritse.

Umugore w'imibiri yombi ufite umusatsi muke, wambaye ishati y'amaboko maremare, aritegereza umwana we, barimo gupima ibiro ku munzani bamanika hejuru, bari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi bavanze abagore n'abana, bateraniye muri hangari iri imbere y'inzu isize amarange y'umweru ku madirishya no ku nzugi, yubakishije amatafari ahiye basa n'abategereje guhabwa ubufasha.

Ubusitani bugari butoshye buri imbere y'inyubako nini y'akataraboneka igeretse, imbere yayo hari indi nzu ntoya isize amarange y'umweru, hari amatara amurika manini ameze nk'ayo ku muhanda.

Ibikoresho byinshi byo kwa muganga harimo intebe, agatanda, amatara manini, bishoboka ko ari mu cyumba cy'abana, ku rukuta hashushanyije inyamaswa nyinshi zitandukanye ziri mu mabara anyuranye, ni ibintu bishimisha abana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi byihariye, hari agatanda gashasheho igitambaro cy'icyatsi, indorerwamo ebyiri zimanitse hejuru nini, imashini yongera umwuka, n'ibindi n'ibindi.

Umuntu utwaye ipikipiki n'undi wambaye ishati y'umweru, bahagaze imbere y'inyubako ifite ibaraza n'icyapa hejuru cyanditseho farumasi, bigaragara ko hacururizwa imiti itandukanye.

Inyubako nziza igeretse kabiri, iruhande rwayo hari inzira nyabagendwa. Ifite amadirishya manini, menshi akurikiranye, hari agace gatoya kubakishije amatafari ahiye.

Ibitanda byinshi byo kwa muganga biri mu cyumba kimwe, biteye bikurikiranye, bitandukanyijwe n'amarido y'ubururu, hari amatara amurika neza, ku buryo ntawagira ikibazo.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye biteye ku buryo bwihariye, gisize amarange y'ubururu n'umweru kimurikiwe n'amatara afashe mu gisenge, gishobora kuba ari aho bakurikiranira indembe.

Ni icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibitanda by'abarwayi bitondekanyije, bitandukanyijwe n'amarido meza maremare y'umweru, hagaragara abaganga bambaye imyenda y'akazi n'iy'ubwirinzi ndetse n'abakora akazi k'isuku bambaye uturindantoki.

Inyubako igizwe n'inzu nyinshi zisize irange ry'umweru, imbere yayo hari icyapa kinini cyanditseho Nyarugenge District Hospital n'inzira imbere yayo ikoze neza yerekeza kuri iyo nzu.

Inzira ikoze neza ikikijwe n'ubusitani ku mpande zombi, yerekeza ku nzu ebyiri zubatse neza, imbere yazo hari icyapa cyanditseho amagambo I R C A na d.

Icyumba kigari gifite idari rifite ibara ry'umweru, hashobora kuba ari kwa muganga, giteyemo ibitanda bigiye bikurikiranye bifite ibara ry'ubururu bitandukanyijwe n'amarido y'umuhondo.

Icyumba gikorerwamo siporo giteguye neza kirimo ibikoresho bitandukanye, hari ibikorerwaho siporo yo kunyonga, hari ibikomeza amagufwa n'imitsi ndetse hari n'ibivura umugongo n'ibikanu.

Inyubako nini igeretse rimwe, ifite igisenge cy'amategura cyijimye, imbere yayo haparitse imodoka, hari amagambo agaragaza ikihakorerwa, yanditse mu ibara ry'umukara.

Umugabo ufite uruhara, wambaye amadarubindi, wasetse cyane, yicaye iruhande rw'umuganga ufite imisatsi miremire, wambaye impuzankano y'ubururu, afite igikoresho cyo kwa muganga, agiye kumupima uburwayi bwamuzanye.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, gishobora kuba kikiri gishya kitarakorerwamo na rimwe, kirimo ibikoresho bitandukanye, hari agatanda gafite ibara ry'umweru, intebe y'umukara n'ibindi bikoresho bihambaye byifashisha ikoranabuhanga.

Icyumba gisakaje ibibambano, hirya yacyo hari ubusitani bwiza butoshye, inkuta zacyo ntago zubatse, kirimo ibikoresho bya siporo bitandukanye harimo ibyo banyonga nk'igare, ibyo birukaho bahagaze hamwe ndetse n'ibiremereye baterura.

Icyumba kinini gisize amarangi y'umuhondo, kiriho ibyapa byinshi byamamaza, hakorerwa ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu nzu, harimo intebe z'ubwoko butandukanye n'ameza yihariye.

Inzu nini isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, imbere isize irangi ry'umuhondo, ku mpande yubakishije amatafari ahiye, hariho icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Shagasha.

Inzu icururizwamo imiti ivura abantu, imbere imanitseho ibyapa bigaragaza ibihakorerwa biri mu ibara ry'isine n'icyatsi, imbere y'inzu hari imbuga ikoze neza, ihagazemo imodoka ebyiri zigaragaza icyizuru cy'imbere gusa.

Ibikoresho byo kwa muganga byihariye bikoreshwa mu buryo butandukanye, bishoboka ko harimo ibikoreshwa intoki cyangwa se amashanyarazi kugira ngo bananure ingingo zitandukanye, zagize ibibazo.

Abaganga bambaye impuzankano z'umweru, bari mu cyumba bakoreramo, bamwe baricaye, abandi barahagaze, abandi baragenda, baregeranya ibikoresho bifashisha igihe cyose hari umurwayi uje arembye abagana.

Inyubako nziza isize amarange yiganjemo umuhondo, amarembo yayo arafunguye, hino hahagaze abagabo batatu bari imbere y'imodoka, ishobora kuba yagize ikibazo, baratekereza uko bahamagara umukanishi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ikimeze nka mudasobwa, igitanda kirekire kiri imbere y'igikoresho kinini kiri mu ibara ry'umweru, bakoresha basuzuma indwara zitandukanye.

Inyubako nziza, zisize amarange y'umweru dede, zifite inzugi z'imihondo, mu kibuga imbere hari ibikoresho bitandukanye, hari intebe zihariye, zimwe ziri mu ibara ry'ubururu n'iz'icyatsi.

Umuryango ukinguye ufite ikizingiti kiri mu ibara ry'umweru, kizengurutswe n'ibyapa byinshi biri mu mabara atandukanye byamamaza, imbere yayo hari ingazi zizamuka zinjira muri iyi nzu, hejuru hari icyapa cyandikishije inyuguti nini z'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, hari intebe z'umukara n'ameza akoze mu giti, hejuru ya buri meza hamanitse icyapa kiriho amadarubindi y'ubwoko butandukanye n'abantu bayambaye bayamamaza.

Umugabo wambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'uturindantoki, ari kumwe n'umurwayi wambaye ishati n'isengeri by'umweru, aramutera urushinge rushobora kuba ari urukingo rw'indwara yadutse nka kovid cumi n'icyenda.

Inyubako nziza ifite amadirishya manini, ikikijwe n'ubusitani butoshye hari n'ibiti, imanitseho icyapa kigaragaza ko ari ikigo cyita ku bya Kanseri mu Rwanda.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, igisenge cyayo kiratukura, ifite inkingi z'amabara y'umweru n'umukara, imbere yayo hari ubusitani burimo indabo zidashishikaje harimo n'igiti kirekire gishobora kuba cyera imbuto.

Abaganga bambaye impuzankano z'akazi z'umweru zifite amaboko maremare n'uturindantoki dufite ibara ry'ubururu, bari mu cyumba barareba mu cyerekezo kimwe, basa n'abarimo kwiga uburyo bushya bugezweho bwo kuvura.

Inzu zitageretse zikurikiranye, imbere yazo hari ubusitani bunini butoshye, harimo n'igiti kirekire gifite amababi y'icyatsi gitsibaze kizana igicucu kuburyo aho hantu hahora amafu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byihariye, harimo intebe ebyiri ziri mu ibara ry'ubururu, igikoresho bifashisha basuzuma abarwayi gihambaye, hakurya hari mudasobwa bareberamo ibisubizo by'ibizamini byafashwe.

Abagore batatu bambaye amashati y'ubururu afite amaboko magufi, adoze kimwe mu ijosi bose biteze ibitambaro bisa, barareba mu cyerekezo kimwe.

Inyubako nziza ifite igisenge cy'ubururu, ibaraza ryayo riratwikiriye. Imbere hari imodoka ihahagaze, inyuma yayo hari abantu benshi harimo abambaye imyenda y'umukara n'iyindi y'ikijuju.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, hari agatanda gakoreshwa basuzuma abarwayi cyane cyane abagore, hari ameza n'udusanduku turi mu ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo abazungu n'abirabura, bahagaze imbere y'inyubako ndende, ifite icyapa cyanditseho Rwamagana Hospital n'abaganga biyemeje uwo mwuga.

Icyumba gifitemo ibikoresho bitandukanye byihariye, bigaragara ko ari ibikinisho by'abana, gisize amarangi atandukanye harimo: icyatsi, ubururu, oranje, umukara n'amatara amurika cyane, ni ibintu bishimisha abana.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye, hari agatanda gashobora gukoreshwa nk'intebe, utumeza, firigo, aho bamanika serumu, n'ibikoresho byita ku barwayi bareba uko umutima wabo utera n'uko bahumeka.

Icyumba kinini, kimurikiwe n'amatara afashe mu gisenge, kirimo ibitanda by'ibyuma byinshi bishasheho amashuka y'ubururu n'umweru, bitandukanyijwe n'amarido maremare y'umweru.

Igikoresho cyo kwa muganga bakunda kwita Emalayi gikoreshwa mu gusuzuma indwara zihambaye, kiri mu ibara ry'umweru, icyumba gifite hasi h'ubururu kirimo utubati tubitse ibikoresho bitandukanye.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, hino yarwo hari icyapa kinini cy'umweru cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'ibirango by'igihugu cyacu, ku mpande hazengurutse ibiti binini by'inganzamarumbo, bitoshye, bigaragara ko bitajya bikomwa n'izuba.

Icyumba kinini cyane gisize amarange y'umweru, kimurikiwe n'amatara atabonesha cyane, giteyemo ibitanda bitondetse bikurikinye, kimwe kiryamyeho umurwayi, hejuru ya buri gitanda hari inzitiramubu.

Icyumba kinini gisize amarangi y'umweru gifite idirishya rinini cyane risanganyije urukuta, hari ibikoresho bibika inkingo, umuganga wambaye impuzankano y'akazi n'ingofero arimo kuzibika neza kugirango zitangirika.

Ibaraza ry'inyubako nziza cyane imurikiwe n'amatara menshi ni aho basabira ubufasha bw'ibanze ariko umukozi ubishinzwe ntarahagera abari buze birabasaba gutegereza.

Imodoka ntoya ifite ibara ry'umukara isohotse mu gipangu kinini kirimo inzu ya etaje igeretse gatatu, ku ruhande rumwe rw'amarembo hari akazu k'umuzamu, ku rundi hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa.

Inyubako nini igeretse kabiri isize amarangi y'umweru, hari ahubakishije amatafari ahiye, imbere ifite ubusitani bunini cyane n'amatara amurika cyane ameze nk'ayo ku muhanda.

Inyubako ebyiri nini zisize amarangi y'umweru, zifite ibisenge bitukura, inyuma yazo hari inzira y'abanyamaguru, hakurya hari ishyamba ririmo ibiti binini n'icyuma kimanikwaho insinga zitwara amashanyarazi.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, gifite itara ritamurika neza giteyemo ibitanda by'abarwayi bishasheho amashuka y'icyatsi, bitandukanyijwe n'amarido y'ubururu.

Inzira imeze nk'umuhanda ikoze neza ikikijwe n'ubusitani butoshye, irerekeza ku nzu yubakishije amatafari ahiye, inyuma yayo hari ikigega kibika amazi ku buryo batayabura no mu gihe k'izuba.

Icyumba kigali kitarimo urumuri rwinshi, kimanitsemo ibipirizo bivanze iby'umweru n'iby'ubururu, ku ruhande rumwe rw'urukuta hari intebe yicarwaho n'abantu benshi, kuru rundi rukuta hari igishushanyo kigaragaza ibice bitandukanye by'ijisho n'ukuntu bishobora kwangirika.

Abantu bambaye imyenda ifite amabara atandukanye hari iy'umweru, ubururu bukeye, ubururu bwijimye, icyatsi n'andi mabara menshi, bicaye ku ntebe z'imbaho imbere yabo hari umuntu urimo kubasobanurira ni ikiganiro gishishikaje.

Umuganga uri mu kazi, yambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu bwerurutse n'umweru n'ikarita y'akazi mu ijosi n'agapfukamunwa k'ubururu, ari mu cyumba cy'indembe aregeranya ibikoresho kugira ngo yite ku barwayi baje bameze nabi.

Akumba gato kihariye gafite amadirishya menshi n'inzugi ebyiri, kubabatse mu cyumba kinini cyane gishakaje amabati, hagati mu gisenge hari ibati ritoya ribonerana ku buryo mu cyumba habona hadakenewe amatara.

Inzu zifite igisenge k'ibara ry'ubururu, zimwe zubakishije amatafari ahiye. Hino hari isize irangi ry'umuhondo yanditseho icyapa kigaragaza ibihakorerwa. Mu ibaraza ryayo hari umuganga wambaye impuzankano, imbere y'izo nzu hari ubusitani bwiza.

Ibaraza ry'inyubako yo kwa muganga, rifite inkingi nini zikomeye, n'icyuma kizana umuyaga kimanitse hejuru. Inkuta z'inzu zisize amarangi y'umweru, ku ruhande hari aho bakirira abantu. Rikikijwe n'ubusitani burimo indabo zitoshye.

Icyumba gisize irange ry'umweru idari naryo ni uko. Rimanitsemo itara rinini rimurika neza. Ku rukuta rumwe hari intebe ndende y'umweru yicarwaho n'abantu benshi. Ku rundi rukuta hari icyapa kinini kiriho ibishushanyo bizwi muri videwo yitwa ibitente ikundwa n'abana.

Umugore w'inzobe usutse imisatsi, wambaye impuzankano y'abaganga y'umweru ifite amaboko maremare, arareba muri mudasobwa ibisubizo by'ibizamini by'abarwayi kugira abisuzume abyegeranye, maze aze kubakira yihuta.

Intebe zikoze mu giti cy'agaciro kenshi zirimo imisego, iruhande rwazo hari ameza akoze neza yihariye, hirya hari ururabo ni ahantu hateye amabengeza.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi byo kwa muganga biteye bikurikiranye, bifite amabara y'umweru n'ubururu, bishobora gutuma umurwayi aryama nk'uwegamye cyangwa se agacurama bitewe n'uburwayi afite.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amadirishya menshi akozwe n'ibirahure, giteyemo ibitanda bikurikiranye bishashe neza, kimwe muri byo kiriho ibikoresho, umuganga aritegura kwakira umurwayi uri buze arembye.

Ibaraza ry'inyubako nziza, ifite icyapa hejuru kigaragaza ikihakorerwa, ifite amadirishya n'inzugi bisize amarange y'umweru, hirya no hino rikikijwe n'ubusitani burimo ibiti birebire n'indabo ngufi zitoshye.

Abantu babiri utwaye igare n'uwo ahetse bose bambaye imyenda y'ubururu, bahagaze ku muhanda wa kaburimbo imbere y'icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho ikigo nderabuzima cya Gisenyi.

Inzira ebyiri zikoze neza, zerekeza ku nzu zubakishije amatafari ahiye, ziteye irange ry'umweru hejuru, zisakaye ku buryo budasanzwe, bishoboka ko hakorerwa ubuhinzi bwo mu nzu.

Umugabo w'igikara wambaye umupira w'ubururu ufite amaboko magufi n'ipantaro y'umukara ari mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda by'ibyuma byinshi bitondekanye. Hejuru ya buri gitanda hamanitse inzitiramubu.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, hejuru y'umuryango hasize irangi ry'umuhondo, hari icyapa cyanditseho ngo: "Aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina."

Inyubako nini nziza, ifite igisenge gitukura, isize irange ry'umweru ahagana hejuru n'umukara ahagana hasi, imbere yayo hari icyapa kigaragaza ibihakorerwa. Hari n'amabendera abiri, iry'u Rwanda n'iry'Umuryango w'Abibumbye.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi y'isine n'uturindantoki, arasuzuma abagore babiri banini anabaganiriza, abafasha kureba ko nta ndwara ziterwa n'umubyibuho ukabije bafite, kugira ngo bakomeze kwiyitaho.

Icyumba kinini gifite amadirishya menshi agizwe n'ibirahure, kimurikiwe n'amatara afashe mu gisenge, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri bitewe n'icyo umuntu agamije.

Abaganga bambaye impuzankano z'ubururu n'imyenda y'ubwirinzi irimo ingofero n'udupfukamunwa. Bari mu cyumba bavuriramo hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba cy'inama, bamwe bambaye imyenda y'akazi, abandi bambaye isanzwe, bose bateze ingofero z'ubwirinzi n'udupfukamunwa, barashishikaye barimo gukurikira ingingo ijyanye n'ubuvuzi bushya.

Ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, hari agasanduku kari mu ibara ritukura gashushanyijeho umusaraba w'umweru bibikwamo. Hari amacupa y'imiti, harimo imakasi, hari ibinini, hari imigozi bahambiriza abavunitse n'ibindi n'ibindi.

Umuntu w'imibiri yombi wambaye umupira w'umweru ufite amaboko magufi, arikanda ku kaboko akoresheje agatambaro k'ubururu, ashobora kuba yababaye igihe yari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo w'imibiri yombi ufite ibigango yambaye umupira w'icyatsi cyerurutse ufite amaboko magufi, afatiye umupira wo gukina mu rubavu uriho ibara ry'ubururu wanditseho umubare kane n'agakoni ku ruhande.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wubatse umubiri, yambaye agapira kijimye k'amaboko magufi, aranywa amazi ari nako ayimenaho kugira ngo agarure ubuyanja maze akomeze imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, yambaye ikarita y'akazi mu ijosi, arasuzuma umurwayi wambaye ipantaro y'umukara, arazamura akaguru areba ko afite ikibazo cy'umugongo.

Igikoresho cyo kwa muganga, gifite amaguru ane y'umweru n'amapine y'umukara, hejuru gifite umukondo umeze nk'uw'igitiyo, gishobora kuba cyifashishwa n'abantu barwaye umugongo kugira ngo babashe kugenda.

Umugore w'imibiri yombi usutse imisatsi, yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, aryamye ku gatanda ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo azakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umugabo muremure w'imibiri yombi, yambaye isengeri y'umukara, afite icupa ry'amazi mu ntoki agiye kunywa, bishoboka ko ari mu myitozo ngororamubiri, akaba aruhutse kugira ngo akomeze.

Icupa ripfunduye ririmo amazi atunganyije yo kunywa, hari n'ikirahure giteretse ku meza kirimo amazi ageze mu cya kabiri. Aya mazi atunganyije arimo imyunyu ngugu ku buryo nta ngaruka yagira ku buzima.

Umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa n'agasatsi gake yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi aranywa amazi ashishikaye yari afite inyota nyinshi.

Icyapa kiriho utuzu twinshi twandikishijeho amagambo n'udushushanyo biri mu mabara atandukanye: umutuku, umuhondo, umweru, ubururu, kigaragaza amabwiriza akurikizwa mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho n'imiti byifashishwa n'abaganga bita ku bakora imyitozo ngororamubiri cyangwa abakinnyi, bifunze ku buryo butandukanye. Hari ibiri mu mapaki y'ubururu, ibiri mu macupa n'ibidafunitse, byegeranyijwe kugira ngo bize gukoreshwa.

Igikoresho gifite umugozi uri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, gifite utuntu tubiri tw'umukara ku mitwe, abaganga kabuhariwe bagikoresha basuzuma umutima w'umurwayi bakareba ko utera neza byaba ari nabi bakamufasha.

Umugabo wambaye ishati y'umweru na karavate iri mu ibara ry'umuhondo, yambaye n'impuzankano y'abaganga y'umweru ifite amaboko maremare, afite igikoresho cyo kwa muganga ku ijosi n'ikibumbano mu ntoki gifite ishusho y'umutima yigishirizaho imikorere yawo.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye umupira w'umukara ufite amaboko magufi na eswime ku ntugu arimo kunywa amazi, afite pinya bigaragaza ko akora imyitozo ngororamubiri myinshi kandi buri gihe.

Imipira yo gukina, ifite ingano zitandukanye, hari iminini n'imitoya, hari uw'umuhondo, uw'umutuku, uw'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari agakoresho ko kwa muganga kari mu ibara ry'umukara.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga w'amenyo, kimeze nk'intebe, aho umurwayi yicara akegama, akararama, akajya yasama cyane ku buryo amenyo ye yose agaragara.

Uducupa dutatu dutondekanije turi mu ibara ry'umweru turimo imiti twose turapfundikiye, twometseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere, hariho icyapa cy'umutuku cyanditsemo amagambo agaragaza ko uyu muti uhagarika ububabare.

Ahabera imurikagurisha mpuzamahanga hagaragara ibintu bitandukanye: hari imidari ifashe ku migozi igizwe n'amabara y'amabendera y'ibihugu bitandukanye, hari imbuto zitandukanye harimo imineke, pome, imyembe, amaronji, inanasi n'izindi.

Umuntu w'igihangange kubera imyitozo ngororamubiri akora, ari mu cyumba kitamurikiwe neza nta shati yambaye, yashyize akaboko mu gituza gashushanyijeho amabara y'ubururu n'umutuku.

Umugabo w'ibigango, yambaye isengeri n'ikabutura by'umukara, apfukamye ku itapi y'umukara, ashyize akandi kaguru imbere, aragerageza kurambura mu mayasha no mu mavi kugira ngo atazahinamirana.

Icyumba gifite inkomanizo z'imiryango zisize amarangi y'umweru, kirimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri bitandukanye, hari ibyifashisha amaboko gusa, n'ibikoreshwa n'amashanyarazi buri wese ahitamo.

Abantu babiri baje mu myitozo ngororamubiri, bambaye udukabutura dutoya tw'umukara, ibikapu byabo biteretse iruhande rwabo, umwe arimo kunywa amazi yicaye ku ntebe, undi ahagaze iruhande rwayo, baragira ngo batangire.

Umuntu uryamye hasi ugaragaza amaguru abiri, kamwe kagize ikibazo kararambuye, akandi karahinnye. umuganga uri imbere ye wambaye umupira w'umukara ufite amaboko magufi, afite barafu ipfunyitse mu gitambaro cy'ubururu kiziritse hejuru, arakimukandisha ku ivi kugira ngo abashe kugarura ubuyanja asubire mu kibuga.

Umugore ufite imisatsi miremire cyane ifungiye inyuma, yambaye agasengeri k'ubururu, yicaye ku ntebe arimo kunywa amazi igihe aruhuka akora imyitozo ngororamubiri.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, hari imiti ifunze mu macupa adasa, hari siparadara, hari uturindantoki tutarakoreshwa kugira ngo basuzume umurwayi birinda.

Umugabo w'imibiri yombi ufite imbaraga, yambaye isengeri n'ipantaro by'ubururu bwijimye n'inkweto z'umweru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri anumva umuziki, bituma atarambirwa.

Igisate cy'ipapayi kiri mu ishusho y'umutima, kirambitseho imboga n'imbuto zitandukanye. Harimo avoka, puwavuro, pome, ikawa, inyanya na shufleri.

Ibikoresho bitandukanye, harimo imakasi zidasa, amabande, imiti n'agakarito kari mu ibara ritukura gashushanyijeho umusaraba n'amagambo yanditse munsi, bikoreshwa mu gutanga ubufasha bw'ibanze.

Umuntu wambaye impuzankano y'abaganga ifite ibara ry'umweru y'amaboko maremare, arasuzuma ivi ry'umugabo waje amugana yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara, ashobora kuba yavunikiye mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo amatara amurika neza, hari ibikoresho bitandukanye, intebe basuzumiraho kwa muganga, amatara manini n'ibindi bikoresho ntabasha gusobanura.

Icyapa gishushanyijeho ibikoresho byinshi byifashishwa kwa muganga. Hari imakasi nini, uturindantoki, agasanduku gashushanyijeho umusaraba utukura n'ibindi n'ibindi.

Intebe yihariye ikoreshwa mu buvuzi, ifite ibice bitandukanye, hari aho kwegeka umutwe, aho kwicara, aho gushyira ibirenge, ku buryo umurwayi ashobora kuryama akegama cyangwa se akicara, bitewe n'uko bashaka kumusuzuma.

Abantu babiri bunamye iruhande rw'umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'umutuku n' immyenda y'ubururu, ni umukinnyi wa rugubi ushobora kuba agize ikibazo mu kibuga.

Umugore w'igikara wagororotse cyane yambaye imyenda ya siporo irimo agakabutura k'ubururu gafite uturongo tw'umweru ku ruhande, yicaye ku itapi imeze nk'ibyatsi.

Umusore ufite umusatsi muke, yambaye umupira ufite ibara ry'imyenda ya gisirikare n'ipantaro y'umukara, inkweto ni umweru, yambaye n'uturindantoki, ashobora kuba ari umutekenisiye usana ibikoresho byo kwa muganga igihe byangiritse.

Abantu babiri bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imipira y'ubururu n'makabutura y'umukara, umwe yagize ikibazo undi arimo kumufasha amukanda, iruhande rwabo hari umupira ufite ibara ry'umweru n'umukara.

Inkoni y'icyuma yifashishwa n'uwavunitse, ifite ibice bitandukanye. Hari akuma gafata mu nkokora, aho afatisha ikiganza h'umukara n'akantu hasi gatuma idasakuza iyo agenda.

Ibikapu bibiri bitukura by'ubutabazi bwibanze, hamwe baracyekana gifunze ahandi gifunguye n'ibikoresho birimo bitandukanye, bifashisha kugira ngo batabare umuntu uhuye n'akaga.

Umuntu uryamye ku gatanda k'ubururu, ashobora kuba ari umukinnyi, ikirenge kimwe cyambaye urukweto rw'umweru, ikindi gishobora kuba cyavunitse barimo kugihambiraho bande kugirango ikirenge kigume hamwe akire vuba azagaruke mu kibuga.

Umugore ufite agasatsi gake, afite igitambaro cy'amazi gifite ibara ry'umweru ku rutugu, yambaye isengeri irimo amabara y'umukara, icyatsi, umweru n'ubururu aranywa amazi igihe aruhuka ,yari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu babiri, uhagaze yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, usutamye yambaye imyenda y'umukara n'umweru ari mu myitozo ngororamubiri, ari imbere y'umutoza we.

Icyumba gisize amarange y'umweru gifite idirishya rinini cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari umugabo wambaye imyenda y'umukara uzamuye, akaguru ugafatishije amaboko yombi.

Umugore w'inzobe wambaye imyenda ya siporo, yicaye ku itapi y'ikigina, imbere ye hari ibikoresho bitandukanye yifashisha n'icupa ry'amazi anywa iyo ananiwe mu gihe akora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiriho icupa ryuzuye amazi ribonerana, ripfundikije umufuniko w'ubururu, rigaragara nk'aho riri mu mazi menshi kugira ngo baturatire ubwiza bwayo, dushishikarire kuyagura.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba bambaye imyenda yiganjemo umweru, hari uwambaye ipantaro y'umukara, hari undi urimo kugerageza kubyutsa umwana uryamye hasi, wambaye umwenda urimo iroza.

Drone iri mu ibara ritukura ihagaze hejuru y'igisanduku kinini gitwikirije igitambaro cy'umweru, imbere yacyo hari umusaraba w'umweru uri mu ibara ritukura, hirya no hino hari amazu ndetse n'ibiti binini ku buryo bugaragara.

Ikiganza cy'umwirabura gifashe ijage irimo amazi, arayasuka mu kirahure kigeze mu cya kabiri, umuntu yayanywa agashira inyota akiyongeza.

Igikoresho kimeze nk'isaha, gifite ibara ry'umweru n'ubururu bwijimye, cyifashishwa n'abaganga bapima ubushyuhe bw'umubiri ndetse n'uko umutima ukora, ni ingenzi mbere yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore wambaye imyenda ya siporo iri mu ibara ry'ubururu afunze imisatsi neza, arambuye amaboko arakora imyitozo ngororamubiri yo kunanura umugongo yicaye ku itapi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse cyandikishijeho inyuguti z'ubururu bwijimye kigaragaraho ishusho y'umuntu ikoze mu binini n'urushinge ni igihamya cy'uko hari imiti bagutera ikagira ingaruka nziza ku myitozo ngororamubiri ukora.

Ikipe y'abakinnyi bambaye amasengeri y'imyeru yanditseho nimero imbere n'amakabutura y'umukara, inkweto zifite amabara atandukanye, bari mu kibuga barishimye bafite abafana benshi baje kubakurikira no kubashyigikira.

Icyapa cy'umweru kiri mu ishusho ya mpande esheshatu, cyandikishijemo amabara y'ubururu, kizengurutswe n'udushushanyo turi mu ibara ry'ubururu twandikishije umweru, hari n'udushushanyo tune tw'abantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto yambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'ubururu, ashyize amaboko hejuru, apfukamye ku itapi y'umukara iri mu cyumba gisize irangi ry'umweru kirimo ururabo rutoshye.

Umugabo wubatse umubiri kubera imyitozo akora irimo guterura ibintu biremereye cyane, arya ibiribwa birimo intungamubiri zitandukanye nk'amagi, karoti, amashu, ibishyimbo akanywa amata n'amazi menshi.

Abantu batatu: hari babiri bambaye impuzankano y'icyatsi, barasindagiza umusore wambaye isengeri y'umutuku ifite icyapa cy'umweru mu gatuza, ushobora kuba yavunikiye mu kibuga.

Umuzungukazi wambaye agapira k'utubara n'ipantaro y'umukara n'umubikira wambaye imyenda isa n'ivu, bapfukamye ku mukeka barifotozanya n'umwana ukiri muto, bishoboka ko ari kwa muganga cyangwa mu kigo cy'impunzi.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru ifite amaboko maremare n'uturindantoki, afite umupira utukura mu kiganza, ahagaze mu cyumba gisize amarangi y'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye yifashisha.

Umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ifite amaboko magufi yicaye ku ntebe, imbere ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, ufashe ku kuma k'umweru gafasha abafite ikibazo cy'umugongo kugenda.

Umusore w'igikara wambaye agashati gaciye amaboko, afite icupa ry'amazi arimo kunywa, urabona ko ari mu myitozo ngororamubiri kandi ayimenyereye, yariyubatse bihagije rwose.

Pome, inkeri z'umutuku n'iz'umukara, umutobe w'amacunga w'umuhondo uri mu kirahure, ifi n'ibirungo byo kuyiteka, byose ni ibiribwa byiza byatuma ugira ubuzima bwiza kandi utabyibushye cyane.

Ifoto y'umugabo itagaragara neza aratera intambwe ndende cyane, ashyize amaboko hasi ari mu myitozo ngororamubiri. Bizamurinda indwara zishobora kumufata ubu, cyangwa se igihe azaba ageze mu zabukuru.

Umugabo muremure ufite urubavu ruto wambaye umupira w'ikijuju, afashe ivi n'ibiganza byombi arimo kurikanda, ashobora kuba yababaye igihe yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa kiriho ifoto y'umugabo usutse umusatsi, wambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura ngufi y'umukara, imbere ye hari amagambo agaragaza inyungu zitandukanye zituruka mu gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho.

Umuganga wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, afite agakoresho asuzumisha abarwayi ku ijosi, yambaye imyenda y'ubwirinzi irimo agapfukamunwa n'uturindantoki tw'ubururu, imbere ye hari ibitabo na mudasobwa akoresha asuzuma abarwayi.

Umugore uri muri siporo, yambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umweru, yafungiye imisatsi hejuru, iruhande rwe hari icupa ry'amazi, afite udukoresho bumviraho umuziki mu matwi.

Umugabo ufite ibigango kubera imyitozo ngororamubiri akora, yarananutse bihagije ku buryo afata mu nkokora n'akaboko kamwe akandi kagakora mu bitugu inyuma ku buryo bumworoheye, ni ibintu bitangaje bidakorwa n'abantu benshi.

Umugabo w'imibiri yombi, wateretse ubwanwa hejuru y'umunwa bakunze kwita mostashi, arimo kunywa amazi yumviriza ubukonje bwayo, kugira ngo abashe kumugera ku nyota amererwe neza.

Umugore muremure w'imibiri yombi, yambaye isengeri y'icyatsi, ipantaro y'ubururu bwerurutse, amasogisi y'umweru n'inkweto zirimo umweru n'umukara, ari mu myitozo ngororamubiri imufasha kugira ubuzima bwiza.

Intebe y'abafite ubumuga y'ubururu n'umukara, ifite ibice bitandukanye, aho bicara n'aho begama, amaguru ane harimo tubiri dutoya n'andi abiri manini cyane, ikagira n'icyuma kiyifasha guhagarara.

Ikibabi gitoshye kigaragara nk'aho ari umuti bakunda kwita umuravumba, uvura indwara zitandukanye cyane cyane Inkorora ariko iyo uwuhekenye uraryana cyane mu matwi.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi n'imyenda y'ubwirinzi irimo ingofero n'agapfukamunwa, imbere ye hari ameza ateretseho udukarito dufite ibara ry'umuhondo, iruhande hari amacupa y'umukara apfundikije imifuniko y'umweru, ashobora kuba arimo imiti.

Icyapa gifite amabara y'ubururu bwijimye n'ubwerurutse busa n'ikirere cyandikishijeho inyuguti mu ibara ry'umukara, hariho utunyoni tw'umuhondo tuguruka duhagaze ku ishami ry'igiti.

Igiti kinini kirekire gifite amababi menshi cyane, iruhande rwacyo hari ikindi gito gifite amababi atukura, bishoboka ko ibi biti byose ari ibiterano nta cya kimeza kirimo.

Icupa rinini ripfundikije umufuniko w'umweru ririmo ubuki, ku ruhande hari amacupa atatu matoya, hirya no hino hari amaseri y'imineke ihiye neza, inyuma hari umuzinga w'inzuki.

Avoka n'igikakarubamba bikoreshejwe neza, bikorwamo ibintu bitandukanye, harimo nk'isabune yo gukaraba idatera umubiri ubwivumbure, ku buryo uyikarabye asa neza akagira ubuzima bwiza.

Igiti cy'ikawa gitoshye ni iyo mu bwoko bwa robiste giteye mu ihema ryagenewe ubuhinzi rizwi nka green house, ubutaka bwashyizemo buvanzwemo urubuye no mu buhinzi busanzwe bweramo ikawa nyinshi.

Agakarito karimo ibinini icumi, bipanze bitanu kuri buri ruhande, bibikwa mu gakarito karinganiye, kari mu ibara ry'umweru n'icyatsi, gashushanyijeho icyapa cy'umuhondo n'ikigina, cyanditseho imibare makumyabiri na kane akarongo karindwi.

Imiti itandukanye ishobora gukorwa mu gikakarubamba, igakoreshwa ku buryo butandukanye, ibitse mu macupa adasa, hari iry'umuhondo n'iry'umweru, apfundikije imifuniko idasa, yanyandikishijeho amagambo, hejuru yayo hari akanyoni kaguruka.

Ibiribwa bitandukanye biri mu dusorori twihariye dufite ibara ry'umukara turambitse ku musambi, imbere yatwo hari inkwi zisataguye ku buryo bitegura guteka.

Ibyapa bibiri biteganye, kimwe kigaragaraho imiti ya gakondo itandukanye ikindi kigaragaraho urutonde rw'indwara zitandukanye iyo miti ivura, hagati hari akambi kari mu ibara rijya gutukura.

Akabati gasize irange ry'umweru gateretseho imiti ya gakondo iri mu macupa abonerana apfundikishije imifuniko y'umuhondo. Munsi hari icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'umutuku ku buryo utamenya umuti urimo uko usa.

Agati gatoshye gateye ubwuzu, gafite amababi aringaniye kuri buri ruhande rw'agashami kananutse ku mutwe hari irindi rimwe, gasashije ibyatsi byumye n'ibindi bimera, bituma gakomeza gusa neza.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu bw'ikirere rikeye, kiriho ikarito ishushanyijeho ibyapa byamamaza, igaragaza ko irimo vitamine ya omega, idakunda kuboneka mu biribwa byinshi.

Ibisate by'igikakarubamba hino yabyo hari icyapa cyandikishijeho inyuguti nini z'ubururu ijambo arowe hejuru yaryo hari akanyoni kaguruka kari mu ibara ry'umuhondo.

Igiti gifite amababi ateye ku buryo butangaje, asataguye ku mutwe ku buryo buringaniye neza, ni ubuhanga buhambaye bw'Imana yabiremye bikageza iki gihe bikiriho.

Icyatsi kirandaranda nk'uruyuzi, gifite amababi ajya kuba yerurutse, cyeze indabo z'isine, imbere zifitemo akabara k'umuhondo n'ak'umweru, zirashimishije kuzireba.

Agacupa kari mu ishusho y'umweru, kandikishijeho inyuguti z'icyatsi zijya kuba umuhondo, bishoboka ko ari isabune ikoreshwa mu gufura mu mutwe cyangwa se gukaraba.

Imiti imeze kimwe itondekanyije, ifunze mu macupa y'umweru apfundikije imifuniko isa, yandikishijeho amagambo y'icyatsi, hejuru hari akanyoni kaguruka kuri buri cupa.

Umurima uteyemo ibikakarubamba byinshi, hari ibikiri bito n'ikindi kimwe cyakuze kirarabya, gifite n'amababi maremare. Igikakarubamba gikorwamo imiti itandukanye, amasabune n'amavuta.

Ikibabi gisataguye gikoze nk'ikiganza cy'umuntu, ni icy'igiti kizwi nk'ikibonobono, gishobora gukoreshwa gikurwamo imiti itandukanye, igira ingaruka nziza ku buzima bw'abantu.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru, yicaye imbere y'ameza, afite ibinini bitatu bifunitse neza n'agapaki byavuyemo, kanditseho uko byitwa n'amabwiriza y'uko bikoreshwa.

Ibikoresho bitandukanye bibikwamo inyunganiramirire, harimo utujerekani tw'umuhondo dupfundikije imifuniko y'ikigina, udukarito harimo utw'umweru n'utw'ubururu, kuruhande hari indobo biteretse imbere y'ubusitani bwiza butoshye.

Icyapa kiriho amacupa abiri, iry'umuhondo n'iry'umweru, hirya no hino hari udukarito dufunze, imbere hari uducupa dutoya hari uturimo ibara ry'isine, ubururu n'umuhondo, harimo inyunganiramirire zagufasha kubungabunga ubuzima.

Ibiti bito bito bifite amababi asataguye, biteye inyuma y'urukuta rusize irangi ry'umuhondo, amababi amwe yarashaje arahanuka, izuba ribirasiyeho bigaragara ko ari ku manywa.

Imiti itandukanye ifunze mu macupa adasa, hari iry'umuhondo ripfundikije umufuniko w'ikigina, iry'umweru ripfundikjei uw'umuhondo, imiti ifunze nk'iy'amenyo hari ishushanyijeho igikakarubamba.

Ibiribwa bitandukanye bikungahaye ku ntungamubiri bigira uruhare mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Hakubiyemo imbuto nka pome, tungurusumu n'izindi zidahingwa mu Rwanda ku buryo kuzigondera biba bitoroshye.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara, n'itaburiya y'umutuku irimo ibara ry'umweru, aje gusoroma umuti akoresha avura indwara runaka, nyuma yo kuyisuzuma akayemeza.

Icupa ry'umuhondo riringaniye ripfundikije umufuniko w'ikigina, ryanditseho amagambo agaragaza ko harimo amavuta akomoka ku gikakabamba, ni amavuta meza y'umwimerere atangiza uruhu.

Intoki z'umuzungu zifashe ikibabi gitoshye cyane, cy'igiti gikorwamo imiti itandukanye ifasha kubungabunga ubuzima, yiteguye gukora ubushakashatsi ku buryo byagerwaho.

Icyapa kiriho amabara atandukanye hari ubururu, umweru, umutuku, umuhondo, iroza, umukara, yose ariho ibyapa byamamaza umuti ukoreshwa mu buvuzi bw'abantu.

Abantu benshi bavanze abagabo n'abagore, bamwe bambaye imipira y'icyatsi yandikishijeho amagambo y'umweru. Bari mu murima uteyemo igikakarubamba, ni igihe cyo kwita ku kamaro kacyo n'ibishobora kuvamo.

Umurima urimo ibiti bitoshye byinshi byiza, bigaragara ko byasukiriwe bituma bibasha kwihanganira izuba ku buryo azaboneka umusaruro ushimishije nyir'umurima.

Amabere y'igitoki arunze hamwe manini hari akasemo kabiri, hino hari imbuto zishobora kuba zitera mu Rwanda, inyuma hari amababi atoshye ariko mu buryo butandukanye ni ay'ibiti binyuranye.

Ururabo rutoshye, rufite indabo z'amabara atandukanye, hari umutuku, umweru, iroza, n'umuhondo. Ni iz'igiti cyitwa kapusine, kigira akamaro gatandukanye, ni indabo kandi ni n'umuti uvura indwara nyinshi.

Ipapayi isatuye, bigaragara ko iryoshye irahiye neza, imbuto zayo n'igishishwa cy'inyuma bivamo imiti ishobora kuvura indwara nyinshi zinyuranye umuntu akagira ubuzima bwiza.

Ishami ry'igiti, rifite amababi atoshye cyane, n'imbuto, n'indabo z'umuhondo, zigaragara ko zizabyara imbuto mu gihe kiri imbere, zizatanga umusaruro mwiza.

Akabati gapanzemo imiti ya gakondo myinshi ifunze mu macupa apfundikiye, hino yayo hari ibikoresho byifashishwa mu kuyipakira harimo nk'ikiyiko kinini bita rushe, ku rundi ruhande hari imiti itaratunganywa imeze nk'indabo.

Icyapa kiriho utujerekani tubiri tw'umuhondo, dupfundikishije imifuniko y'ikigina, twanditseho amagambo agaragaza ibirimo, ni inyunganiramirire, umugabo ufite imbaraga kubera ko yazikoresheje arakora imyitozo ngororamubiri.

Akabati gasize irangi ry'umutuku gatondetseho amacupa ariho ibyapa bidasa, harimo imiti ikorwa bahereye ku bihingwa ndetse n'inyongeramirire.

Ishami ry'igiti rinini rifite amababi atoshye, kizwi nk'umuravumba ukoreshwa mu Rwanda, mu kuvura indwara nyinshi, cyane cyane inkorora ndetse n'izindi.

Tangawizi nyinshi zirunze hamwe, hari imwe ikasemo uduce dutanu duto duto, barabanza kuyisekura mbere yo kuyiteka kugira ngo uburyohe n'akamaro kayo bibashe kuboneka.

Ishyamba ririmo ibiti birebire cyane bigororotse n'ibindi bigufi bifite amababi atoshye, bigaragara ko imvura imaze iminsi igwa, ku buryo igihe cy'izuba kizarangira bikimeze neza.

Ikiganza cy'umugore w'igikara wambaye igitenge kirimo amabara atukura, umukara n'umuhondo, afashe ku gati k'ururabo bita urw'Iyerusalemu karabije.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi, hari igiti kimwe kirekire kinanutse, gifite ishami rinini ririho amababi menshi, riri ahagana hasi ku buryo izuba ririmurikaho.

Umugabo w'igikara wambaye umupira w'umweru, ari mu murima w'ikawa zeze, arishimye kubera gutekereza ukuntu azabona umusaruro uzamuhesha amafaranga menshi mu gihe kiri imbere.

Ibyapa bibiri bisa biriho amabara y'umuhondo, icyatsi, ubururu, hari akambi kameze nk'uruziga n'imibare makumyabiri na kane na karindwi.

Umuti uri mu icupa ry'umweru ripfundikije umufuniko w'umweru, munsi hari amagambo agaragaza uko witwa Reishi, ngo ni yo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru.

Isahani y'umweru ifite ishusho y'uruziga, ishushanyijeho akarabo k'icyatsi, iteretseho agasorori karimo umutobe w'amacunga uraryoshye ku buryo utagomba kuwongeramo isukari.

Utujerekani tubiri tw'umweru dupfundikije imifuniko y'ubururu, twanditseho amagambo agaragaza umuti urimo n'uko ukoreshwa. Ufasha kugabanya ububabare bwo mu mugongo cyane cyane uko umuntu agenda yegereza izabukuru.

Ibiribwa n'ibinyobwa byatunganyijwe neza bibikwa mu buryo butandukanye, hari ikarito ishushanyijeho ikawa iri mui ibara ritukura yandikishijeho inyuguti z'umweru, inyuma hari inanasi idahase, hino hari amakarito atandukanye.

Ingemwe z'ibiti bitoshye ziteye mu bibumbano byabugenewe, biteretse ku gatanda k'icyuma gasize irange ry'umweru kugira ngo hatajyamo udusimba tukabyangiza mbere yuko bigemurwa.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye harimo ibirebire n'ibigufi, ahagana imbere hagaragara igiti kirekire kinini kijya kuba umweru gishobora kuba ari ya nturusu ivura inkorora ya mayideni.

Agacupa k'umweru dede gapfundikiye, kanditseho amagambo yo kwamamaza ari mu ibara ry'isine n'umukara, hejuru yayo hashushanyije akanyoni kari mu ibara rya zahabu, hashobora kuba harimo umuti wangirira ubuzima akamaro.

Abantu benshi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bari mu murima w'inanasi, imbere yabo hari imashini ikoreshwa mu buhinzi, hirya hari imodoka bajemo, bishoboka ko ari abo tuzi nk'abagoronome bari mu rugendo shuri.

Imiti ya gakondo irunze hamwe, iranitse kugira ngo yume, ku ruhande hari isekuru n'umuhini, kugira ngo ivemo ifu ishobora kubikwa igihe kirekire, igakoreshwa mu kuvura indwara nyinshi.

Ibiti bigaragaza amababi, indabo n'utubuto byeraho, biratoshye, bigaragaza ubushobozi bw'Imana yabiremye kandi abantu barabyishimira bakabikoresha mu buryo butandukanye, hari ababirya cyangwa bikavamo imiti itandukanye.

Ibikoresho bitandukanye harimo ibya kera n'iby'ubu, biri hejuru y'akazu kubakishije ibirere, hari icyungo kigeretseho akandi gatoya iruhande rwacyo hari ibicuma bine, hirya hari utundi tuntu dutandukanye harimo umufuka urimo udupfunyika twinshi.

Umugore w'igikara wambaye imyenda miremire y'ibara ry'icyatsi kibisi, imbere ye hari ikibumbano kirimo ibiti bitandukanye n'ibyatsi bikorwamo imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo.

FAB ni ikinyobwa cyongera imbaraga, gifunze mu gakombe k'icyuma, kariho ibara ry'umutuku n'ibyapa bitandukanye byo kwamamaza, hejuru hari akanyoni kaguruka kari mu ibara ry'umukara.

Ikarito ipfundikiye neza, iriho amagambo asobanura ibibitsemo, amwe ari mu ibara ry'umweru, ryanditse mubu bururu andi ni ubururu bwanditse mu mweru.

Ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye, hari ibitoshye n'ibyatangiye kuma, byose bishobora kuba ari imiti ikoreshwa mu kinyarwanda, kugira ngo bavure indwara zitandukanye, zimwe zananiranye kwa muganga,

Umubare makumyabiri na kane akarongo karindwi, uri ku cyapa kiririmo ibara ry'umuhondo, kizengurutswe n'akambi k'uruziga kari mu ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Ishyamba ririmo ibyatsi by'umukenke bitoshye n'uduti duto duto tumeze nk'uduhuru, hari igiti kinini gifite amashami mato mato gishobora kuba cyakoreshwa mu kubaka, cyangwa se kikavamo imiti myinshi itandukanye.

Amacupa afite amabara atandukanye, hari iry'umuhondo n'ay'umweru, apfundikije imifuniko idasa, arimo imiti imwe ikoze mu gikakarubamba, ifasha kuvura indwara zitandukanye.

Imiti ifunze mu macupa y'umweru atangana, yanditseho ibyapa biri mu mabara atandukanye bigaragaza ko ikora ibintu bitandukanye, ariko byose bigira ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu.

Ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye biba byatunganyirijwe mu nganda, bakabifunga mu mapaki ku buryo butandukanye, ntabwo biba bikiri byiza nk'uko wasoroma imbuto ku giti, kuko bongeramo amasukari bituma bigira ingaruka ku buzima.

Ibiribwa bifite akamaro gatandukanye, hari amacunga, ni ibuto zigira intungamubiri nyinshi, hari ibikoreshwa nk'imiti, harimo tangawizi, tungurusumu, ibibabi by'amapera, n'ibindi bihumuza ibiryo, hirya hari ibibumbano bishobora gutekwamo, cyangwa se bigashyirwamo indabo.